umugabo uri gutanga imbwirwaruhame mu bantu ahagaze imbere, hari ibyapa bya FPR, yambaye imyambaro ya FPR, bigaragara ko ari gushishikariza abantu ndetse abaganiriza ku bijyanye na FPR.

Inama yahuje abagore, igaragaza uburyo bwo gutanga mituweri, igaragaza ibintu igamije, umugore afashe ijambo, ari kuvuga ku bijyanye n'ibyo bintu.

Inama yahuje abaturage ndetse n'abayobozi babo, ahantu hubatse itente, abayobozi beari gutanga amabwiriza, ari kumwe n'abayobozi bagiye batandukanye, bambaye a makarita yabugenewe ndetse n'inzego z'umutekano na zo zihari, ari ko kubagira inama.

Inama y'abayobozi igaragaramo abayobozi aho batanga ibitekerezo, bakabahereza ibyo kunywa, bakabaha ibyo kurya, abayobozi benshi bagiye batandukanye bo mu nzego z'igiye zitandukanye.

Inama yahuriyemo abantu batandukanye bicaye mu ntebe z'umutuku, ahantu hari amarido hari ibyuma, abantu baricaye barakurikiye bahanze amaso uri kubabwira uri kubaganiriza.

Inamama ikurikiranwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho umuntu afata laptop y'iwe cyangwa se imashini ye, agakurikirana abikoresheje app, agakurikirana inama ku buryo bw'ikoranabuhanga, akaganira n'abantu, bagatanga ibitekerezo ndetse n'ibindi.

Inama irimo umuyobozi uri gutanga amabwiriza, hariho mikorofone indangururamajwi, haba amazi ataretse ku meza ndetse hakaba n'ikibaho yagiye yandikaho bimwe mu bintu byaranze iyo nama.

Inama zihuza abayobozi b'Uturere tugiye dutandukanye bakaganira ku bibazo runaka, bakaganira ku byateza imbere Akarere kabo cyangwa se n'igihugu cyabo muri rusange bya barushijeho kugera ku iterambere.

Sare y'inama y'imishyikirano yihuriyemo abayobozi bagiye batandukanye, abapolisi, abasirikare ndetse n'abandi bayobozi.

Inama y'abaturage iyobowe n'abayobozi kugira ngo aganire ku mihigo, ku byo bageraho ndetse no ku mategeko n'amabwiriza agenga isibo ndetse no mu kagari.

Ingoma enye zigiye zifite umurishyo buri ngoma ifite umurishyo, ingoma zikoreshwa mu mbyino gakondo abantu babyina imbyino za gakondo nibo bazikoresha bazikoma, ziteretse ahantu mu kibuga zigakoreshwa abantu babyina.

Abakobwa benshi bagaragara bari gukoma amashyi, abari kubyina, abari kureba, bagiye kubyina imbyino za gakondo, bari kuzibyina bambaye imyenda y'umuco, bambaye imyenda myiza igaragaza ko ari ababyinnyi b'imbyino za gakondo.

Umuco nyarwanda, kubyina imbyino za gakondo, birimo abantu bagiye batandukanye abakobwa n'abasore babyinira umuco nyarwanda.

Umubyeyi uri gusya amasaka cyangwa se uburo akoresheje urusyo n'ingasire agenda asya bikagenda bijya ku nkoko biri mu muco wacu ugasya amasaka yohereza ku nkoko.

Umugabo uri kuvuza imyiirongi gakondo ari kugenda avuza umwirongi ku buryo umuntu wese uri ahantu kure yumva imyirongi ari kuvuza, agacuranga, akayivuza habaye umupira ndetse n'ibindi bintu biba byabaye abantu bakenera kwamamazamo.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu y'amashanyarazi, kigaragaza imibare wakanda kugira ngo uhamagare, bakerekana n'ipoto y'ibyo wakora kugira ngo ubashe wabahamagara na we bakakugezaho ibikorwa byabo.

Ihuriro ry'amashanyarazi aho amashanyarazi ava aha ngaha kuri ibi biti byabugenewe, akagenda akwirakwira mu baturage, akwirakwira ahantu hose, ashobora no kuva mu karere kamwe akagera mu kandi karere cyangwa akagenda mu gihugu kimwe, akagera mu kindi gihugu.

Ahantu haba hari ibikoresho by'amashanyarazi aho umuriro w'amashanyarazi uturuka wihuje ukagenda ukwirakwira ahantu hose hagiye hatandukanye, aho umuriro w'amashanyarazi ubu uturuka ukagenda mu turere tugenda dutandukanye bihugu bigiye bitandukanye.

Imirasire y'Izuba ahantu ni imirasire ine ibintu bashyiramo amazi ni uburyo bwo kubitegura, imirasire y'Izuba kugira ngo babashe kuyijyana ahantu habugenewe ibasha gutangira gukora.

Umuntu wuriye ipoto, ahantu bakusanyiriza amashanyarazi, ari kugenda ashyiraho insinga, insinga zerekeza amashanyarazi mu ngo zigiye zitandukanye n'ahantu hagiye hatandukanye, ari kubikora byapfuye cyangwa se arimo ari gushyiramo urusinga rushyashya rujyana amashanyarazi mu rugo rw'umuntu.

Abantu babiri bashyira uruziga rw'imirasire y'izuba ku gisenge cy'amabati atukura, kugira ngo bajye babasha kubona uburyo bwo gucana, uburyo bwo gucaginga amatelefone ndetse n'ibindi. Ni uruziga rw'imirasire y'izuba.

Inyubako za leta zigaragaramo ibiraro biri biteye imbere bigendwaho abantu.

Igishushanyo mbonera cy'ahantu bagiye kubaka, ikigo nderabuzima cyangwa ivuriro. Bakahubaka igishushanyo mbonera cy'uko bazubaka iryo vuriro ukuntu rizaba rimeze, rikikijwe n'abantu abantu baje kuryubaka n'abayobozi bapima ukuntu bazubaka iyo nyubako.

Inyubako ya kaminuza y'u Rwanda, igaragaramo indabo, igaragaramo idarapo y'u Rwanda, hagaragaramo amatara ndetse n'indabo ziba ziteye hafi aho ngaho mu nyubako ya leta.

Inyubako ya leta igaragaza ko hari urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu igihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na kane, ruri ku muhanda ahantu bahateye indabo nziza cyane ndetse rukaba ruri ku muhanda hafi y'umuhanda wa kaburimbo.

Ibiraro byo kwambuka amazi, ni inyubako za Leta baba barubatse kugira ngo bigere ku baturage, bibafashe kujya bamera neza birinda impanuka zo mu mazi no gutwarwa n'imigezi.

Inyubako ya Leta ifashishwa n'abantu mu gushaka ubuzima bwiza bw'abantu, hashobora kuba ari akagari, hashubora kuba ari umurenge cyangwa se n'umudugudu.

Inyubako rusange ziri hafi y'amazi za kera, zikikijwe n'ibiti zirimo n'abantu bari kugenda hafi aho ngaho.

Inyubako ya leta yagaragaza ko ari ikigo ngororamuco cy'abana, Hakaba hari ushinzwe umutekano kugira ngo abantu binjire agomba kubanza akabasaka ndetse akabaka n'ibyangombwa. Hakaba hari umuntu ugiye kwinjira muri icyo kigo.

Ikiraro cya kijyambere ni inyubako y'ikirararo cya kijyambere, inyubako ya leta bambuka nyine, hasi hari amazi bakambuka kugira ngo bafate iyindi nzira ibajyana ahantu bajya, yubakishije amabara: ubururu, umuhondo, ibiti na senyenge, hakurya hari ibiti ndetse n'umuhanda.

Ikirangantego kiranga akarere runaka, akarere bikagaragaza kirazira zabo, indangagaciro ibyo bagomba kugenderaho ndetse no mu mudugudu giteretse ahantu ku muhanda abantu bose batambuka bakabibona bakabona ibiranga uwo mudugudu ibiranga uwo murenge, ibiranga ako kagari, kirazira zabo ndetse n'indangagaciro zabo.

Ibyicaro byo muri sitade, abantu bicaraho mu gihe bagiye gukina cyangwa bagiye gufana, umupira uba w'abahuje amakipe amwe n'amwe, agaragaza imyanya abantu baba bicayemo ndetse hakaba hicara abantu baje gufana umupira.

Ibikorwaremezo mu muhanda baba umuhanda bagashyiramo ibishushanyo mbonera igishushanyo cy'inka igaragazaze ukuntu inkari Ari nziza imwe ifite amahembe iteze neza ndetse hari n'umuhanda hakaba ibikorwa remezo hakaba umuhanda hakaba amaduka acurura.

Abayobozi inzego z'umutekano bari ahantu munsi y'urutoki hari intebe, hari utubaho baje kubahiriza uburenganzira bwa muntu n'ubutabera bari gukemura ibibazo by'abantu mu baturage.

Inama cyangwa ihuriro riba ryahuriyemo abantu bagiye batandukanye abayobozi b'umutekano, inzego z'umutekano, abasirikare ndetse n'abaporisi n'abandi bantu bagiye batandukanye bari mu nama barimo bategura ibyo bagomba gukora.

Imbwirwaruhame y'abantu, mugaraga ari gutanga imbwirwaruhame mu bantu bigaragara ko kubwira abantu bari kureba ndetse na mugenzi we bigaragara ko ariwe utanga ijambo ahantu hari abaturage baje gutaha ikiraro bahubatse.

Ubutabera ndetse no kwigisha uburenganzira bw'umuntu ndetse no kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, bagaragaza umuyobozi ari kwigisha ubutabera n'uburenganzira bwa muntu.

Ubutabera no guharanira uburenganzira bwa muntu binyuze mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi igihumbi kimwe magana kenda mirongo kenda na kane, bifashije mu rubyiruko, bayobozi b'inzego z'umutekano ndetse n'ingabo z'igihugu.

Abayobozi bari gutanga impamyabumenyi cyangwa se ishimwe ry'umubyeyi w'umugore, abandi bantu bahari, bari kureba, bubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera, hagati mu bantu. Umuntu n'umusirikare ndetse n'undi muyobozi bari gutanga ishimwe kuri uyu mubyeyi, wambaye imikenyero.

Inama y'abaturage ishinzwe kuganiriza abaturage bakamenya ubutabera bakamenya n'uburenganzira bwabo, buri muturage wese akamenya uburenganzira bwe akamenya uko akwiye kubaho atabangamira abandi.

Abaturage, abayobozi n'abatumirwa, baje kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi igihumbi kimwe magana kenda mirongo ikenda na kane, bari kubiganirizwa, abayobozi baricaye mu itente, hari abantu baje kwibuka bambaye amafurari.

Umuhanda wa kaburimbo nijoro amatara ari kwaka, hari ibyapa abantu bari kwambuka, ahari ubucuruzi bw'abantu nijoro mugihe abantu baba bari kugendagenda nijoro bambuka bajya guhaha.

Ibyapa biyobora abantu bigaragara abantu aho bagenda ndetse n'handa rusange byana abantu ahantu hagiye hatandukanye bayura mu ngo bajyana mu macumbi yabo bagiye bataha

Imodoka y'abagenzi itwara abagenzi yitwa defera abantu benshi bahagaze muri gare bategereje imodoka n'abayihagaze iruhande bashaka kuyinjiramo abafite imbuto n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bari muri gare.

Umumotari utwaye abanyeshuri babiri bavuye kwiga mu muhanda, uri kubajyana iwabo, mu muhanda wa kaburimbo, urabona hari abantu bari kugenda na bo b'abasekirite, hari amaduka ku ruhande.

Ibyapa by'imihanda nyabagendwa yerekana aho umuntu ageze, bikagenda mu nzira muri karitsiye aho abantu baba bari kugenda bagera kugira ngo bagere ku muhanda nyabagendwa, hagati haba hari amazu abantu batuyemo.

Imodoka itwara kapani ya egiseli iri muri gare itwaye abagenzi ndetse harimo n'izindi modoka n'abandi bantu bagenda baza bashaka kugirango batwaze abandi imizigo yabo mugihe bavuye mu modoka.

Ihanda nyabagendwa imodoka zitambukamo n'abantu bagatambukamo, abantu bari kugendagenda, ku ruhande hari inzira zigenda zijya ahantu hagiye hatandukanye, imodoka zigacamo abantu bakagenda nta kibazo bose.

Imihanda nyabagendwa igengadamo abantu hagati mu mujyi, itwara ibishingwe, itwara imyanda, ikayijyana ahantu habugenewe iyukura mu nzira, ikura ahatu abantu batuye, ikayigeza ahantu habugenewe.

Icyapa cy'ahantu bakira abashyitsi baturutse ahantu, kirimo mu marembo yaho kikabamo ibiti by'imyembe, hirya hakaba indabo ndetse icyo cyapa kikaba kigaragaza ibyo batanga, ko bacumbikira abantu bakabaha ibyo kurya bya mugitondo, imbuto, ibyo kunywa ndetse n'ibindi bakagaragaza na nimero ya terefoni babashakiraho.

Imodoka zirimo zigenda, urujya n'uruza, izigenda n'izigaruka mu muhanda wa kaburimbo. Ahandi hagenda: abanyonzi b'amagare, abagenzi, ahari ibyapa ndetse hakaba n'inzu z'ubucuruzi ku ruhande. Aha ho bigaragara ko ari mu mujyi.

Imodoka zitwara abagenzi muri gare zikorera kampani ya Yaho iri modoka ziri muri gare abantu batanga amatike nabo barahagaze aho ngaho bari gutanga amatike ku bantu binjira mu modoka abandi bari kugenda baza ndetse n'izindi kampani zitwara abagenzi muri iyo gare.

Ibyapa biri mu muhanda bigaragaza icyerekezo cy'ahantu ndetse n'umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti, ugaragaza ko abantu bagomba kwambuka bagakomeza bakagenda. Hakikijwe n'ibiti ndetse n'amapoto y'amashanyarazi.

Mu uburyo bwo gutanga amabwiriza ajyanye n'umutekano ndetse n'ayabandi mabwiriza aba aranga abaturage agomba kuranga abaturage mu midugudu, mu tugari, ndetse no mu turere kwihuza kw'abaturage bakishimira ibyo bagezeho.

Umuganda uri gukorwa ahantu mu ishyamba, ugakorwa n'inzego z'abashinzwe umutekano, ugakorwa n'aba Daso, Abapolisi n'Abasirikare ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye.

Abaturage mu mudugudu barimo baraganirizwa ku bijyanye no kubaha umutekano, ukuntu baharanira umutekano mu gihugu cyabo, ukuntu baharanira kubana neza mu midugudu, hafi y'inzu, baricaye mu ducaca, bari kuganira impande y'ahantu hari insina, hari urutoki ndetse n'ibindi.

Abantu babiri bari mu kibuga b'abasore bari gucengana, mu mupira w'amaguru mu gukina umupira w'amaguru, bari mu kibuga cyangwa se muri sitade bari gukina, barimo bagenda mu nzira.

Abantu bari ku kibuga kuri si stade baje muri siporo, bambaye imyenda isa ndetse n'abandi bambaye umutuku bari muri siporo bigaragara ko siporo irangiye bari aho ngaho bari kuganira.

Imyitozo ngororamubiri icyo twita siporo, ihuza abantu benshi biganjemo urubyiruko, abantu bakuze kugira ngo babashe gukora siporo, babashe kugorora imibiri yabo, mu gihe cya nimugoroba nyuma y'akazi.

Urubyiruko rwiganjemo abakobwa ndetse n'abahungu, bicaye muri stade nyuma y'uko bakoze siporo, bari kuganirizwa n'umuyobozi, ari kubaganiriza, bamwe barahagaze, abandi baricaye mu myanya yo muri sitade.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bari mu kibuga baje gukina, bigaragara ko ari amakipe abiri harimo ufite umupira barimo bakina.

Itangazo rigaragaza ukuntu imirenge izagenda ihura igakinira gutsindira ibihembo byo muri kagame kapu umwaka w'ibihumbi bibiri makumyabiri na kane bibiri na makumyabiri na gatanu bakagaragaza itariki isaha ndetse n'uko aba bazakina.

Imikino ihuza abanyeshuri bagiye batandukanye muri sitade bagakina cyane cyane abakobwa, bakina mu marushanwa kugira ngo babashe gutsinda umukino w'amaguru mu buryo bwo kugorora umubiri ndetse no kurushanwa.

Siporo yegererwa abaturage bakabona ibihembo bijyanye n'uko bakoze cyane ku bijyanye na siporo, ku bijyanye no kugorora umubiri by'umwihariko urubyiruko ndetse n'abana batoya.

Abantu, abayobozi, abasirikare ndetse n'izindi nzego z'umutekano, baricaye mu myanya yo muri sitade, baricamo barareba umupira mu kibuga muri sitade uri kuhabera.

Abayobozi mu nzego z'umutekano w'abapolisi ndetse n'abandi, bicaye mu ntebe zo muri zo mu kibuga cyangwa muri sitade, barimo barareba umupira bari gufana barabyishimiye cyane, n'abandi bantu barimo bareba baseka bishimye.

Inzira zo mu cyaro zigenda ahantu zerekeza ahantu hagiye hatandukanye, hari ibyatsi, aho abantu b'abanyamaguru baca haca, hakaba n'igare cyangwa na moto na yo ikaba yahanyura ariko hataba hanyura imodoka.

Mu nzira mu muhanda wa kaburimbo, ahantu hari icyapa cyo guhagarara, hakaba hari amuhati ku ruhande, bigaragara ko hagiye kubakwa inyubako, ndetse hakaba hari n'amaduka ku ruhande y'ubucuruzi, imbere haparitse imodoka.

Umusore uri kumwe n'umwana bari kugenda mu muhanda, hafi y'amabutike, bari kugenda mu muhanda, mu muhanda wa kaburimbo, ufite n'inzu kuruhande z'ubucuruzi n'ibipangu, bari kugenda batambuka, bagendagenda ahantu hose.

Inzira mu giturage ahantu baba bororera amatungo, inka ziri mu rwuri n'abantu batambuka bagenda bava aho ngaho, bakomeza urugendo rwabo.

Umuhanda wa kaburimbo, ndetse no ku ruhande hakaba inzira z'abantu bagenda imihanda ibiri, imihanda inyuranyemo iburyo n'ibumoso, ndetse no gukomeza ukaba ukikijwe n'indabo, amapoto y'amatara, n'abantu bake bari kuwugendamo.

Abanyeshuri bari kuva ku ishuri bagenda mu muhanda bari kuganira, bataha basubira mu rugo aho baturutse ku mugoroba mu gihe baba bagiye kwiga mu gitondo, bari kugenda ku muhanda wa kaburimbo.

Umuhanda uri kugendamo n'imodoka, imodoka itwara ibintu, inyuma yaho hari imodoka zitwara abantu ntoya n'abagenzi bari kugenda mu muhanda batambuka, abamama babiri ndetse n'umusore washoreye igare, undi yikore isuka.

Mu muhanda aho abantu bashoboye gutemberera umuhanda muri karitsiye abantu baba bari kugenda batambuka, bagenda kugira ngo bagere aho bahahira kugira ngo bagere aho bajya ku ishuri ku ivuriro kugira ngo bagende bajye ku isoko. Mu muhanda ubageza ku isoko ndetse n'ahandi.